Ifoto iriho umuzungu ufite umusatsi, ari guseka neza, afite amaso y'umweru, yambaye umupira w'ubururu, aritegereza ikirango kiriho hariho ibara ry'umutuku, ahanikijemo inyuguti z'umweru.

Umukobwa wambaye ishati y'ubururu yambaye n'amataratara ari kureba muri terefone arakishima cyane, unezerewe ntabwo ahangayika ahorana umutima utuje.

Umurima uteyewo umuceri, ni mwiza, ugaragara neza, ni ikiribwa gikundwa na buri wese abana ndetse n'abakuru, buzana amafaranga ku bawuhinze, ntabwo bicwa n'inzara ntibagirana n'ubukene n'amafaranga.

Inzu nziza zitandukanye zirasa neza zirakeye, zibereye amaso azireba, zirakoze neza imbere ku mbuga hari amapave hari imbuga nziza haparitse imodoka nziza haracyeye hasa neza habereye amaso ahareba

Icyapa kinini cyane kimanitse ku muhanda, hirya hari umunara hakurya yawo hari amazu arimo n'ibiti bigaragara neza, hino hakaba amazi meza y'urubogobogo asa neza abantu bose barayakunda.

Umukobwa mwiza uri guseka afite amenyo akeye, uruhu rukeye, yambaye itaburiya, umupira w'ubururu asa neza, ari kwandika ariko areba hirya uwo bari gusekana.

Icyapa gishushanyijeho umutaka utukura n'ikiganza kigufashe cyu'muzungu ni mwiza urinda abantu izuba mu gihe cy'imvura na wo ukakugirira umumaro muri icyo gihe.

Inzu ndende kandi nziza, yubatse neza irakomeye, bayikoreye amasuku, isize amarangi, hariho icyapa cy'umwana uri guseka, dukunde abana kandi tubakinishe, kugira ngo bazakurane ibyishimo, n iho bakura neza bafite umutima w'urukundo.

Icyapa cyamamaza hariho umukobwa mwiza uri guseka wambaye rineti mu mutwe, ari kwerekana ibikorwa bya emutiyeni gukora muri wikendi ko bagura aminite. Ni byiza kuko bitera umunezero n'byishimo mu bantu.

Aho bacururiza imyenda y'abagore, ni myiza, ifite amabara atandukanye, irakeye, iraramba, irahendutse kandi uwayambaye agaragara nk'umuntu ukomeye.

Icyumba bacururizamo imyenda y'abagore ni myiza, harimo amasaha, ibikomo, inigi, amashene bambara mu ijosi, amakanzu ya madira y'amabara atandukanye, birakeye, bisa neza, umugore wambaye neza, agaragara neza.

Inzu icururizwamo imyenda ikorerwa mu rwanda imitaka amakanzu imyenda izinze niheza amajipo amanitse kugira ngo abakiriya baze kuyabona ni byiza cyane biteye amatsiko yo kubireba birakeye biroroshye kubifura nta kibazo biteye biratwambitse.

Ahacururizwa imyenda y'abagabo amashati y'ibitenge ay'umweru, ubururu, umutuku, amashati meza cyane ameze neza abereye abagabo n'uy'ubwoko bwose.

Amashati y'imyeru n'imikara barayambara bagasa neza, bayambara mu bukwe bakaberwa, bagashira imbeho. Ibikombe by'amatasi babinyweramo, babicururizamo, babisukamwo amata n'ibindi byinshi byiza.

Amavuta y'amoko yose aragira neza uruhu, uyisiga ntabwo asaza, ruracya rukoroha rugatoha, rugasa neza, amavuta ni meza.

Mu isoko ry'imyenda haba hasa neza, kubera ko haba harimo amabara atandukanye. Imwe irazinze amakote, mipira irambuye, ni heza hasa neza harahagaragara.

Umugore wicaye yambaye neza yasokoje; afite umubiri ucyeye imbere ye hari ameza. Umuzungu arahagaze ari kumwereka imyenda, bari kumvikana kuko ari kuyicuruza.

Inzu imanitsemo imyenda y'ambara menshi meza yo gucuruza, ibera abayambara, isa neza cyane kandi ikabera n'abayireba.

Umukobwa uri ucuruza imyenda itandukanye, yambaye ipantaro y'umweru, umupira w'umuhondo, wisukishije, imbere hari imyenda irambuye, afite ikaramu mu ntoki, ikayi ari kwandikamo, imyenda ari gushyira ku munzani, bishoboke ko yohereza imyenda mu masoko yo hanze.

Tagere bacururizamo imyenda y'abagore, amabara atandukanye, idoze neza, isa neza, uyambaye asa neza, agaragara neza, kuko ari imyenda yambitse abantu, ni myiza, abakobwa barayambara, nta muntu utayambara ngo aberwe, kereka utashoboye kuyigura.

Abagabo batatu barebare, ni beza bahagaze neza, umwe afite agakapu mu ntoki yambaye ipantaro y'ubururu, barakeye bari guseka, bahagaze imbere y'imodoka ebyiri nziza.

Abagabo babiri bafite icyapa cy'Akagera matoro bari kwamamaza imodoka bacuruza nziza, zikomeye, zihendutse, zisa neza, ziba zikiri nshyashya uwugurayo ntahomba ahubwo arunguka kubera ko imodoka z'abo ziramba.

Iyi modoka iparitse ku mbuga bashasheho amatafari babumba mu isima bita amapave asasa neza imbuga akora ahantu neza aho ari hagaragara neza akora imbuga neza nta cyondo kizaho ni amatafari meza cyane.

Imodoka ebyiri zihagaze zisize irange ry'umweru, inyuma ntago hafunze zagenewe gutwara imizigo. Imbere hahagaze abagabo babiri bafite icyapa mu ntoki ni beza, bafite taye nziza, barasa neza, bahagaze neza.

Imodoka nshyashya iri kugenda ahantu heza iteye irangi ry'umukara inyuma yaho hari inzu nziza zubatse, hari igiti giteye kinini irakeye icanye amatara igaragara neza.

Inzu nini iparitsemo imodoka, ku meza hari imashine ni nyinshi ni shyashya ziragurishwa ni nziza zitwara abantu, ni ingirakamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi.

Mu muhanda harimo abanyamaguru bari kugenda, no ku nkengero zawo hari umunyamaguru, hepfo hari amazu meza n'ibyapa bihashinze, amapoto ku muhanda ariho amansinga menshi, ni heza hateye neza.

Inzu ndende yuzuye ni nziza irakeye barangije kuyisiga amarangi imbere haparitse imodoka ni nziza imodoka ifasha abantu murugendo kwihutisha igakorera amafaranga atunga abantu mu bintu byose.

Imodoka ni nziza zitwara abantu, uyifite ntabwo yiganyira kujya mu rugendo, ntabwo akererwa ku kazi, aho ashaka kujya hose ahagerera ku gihe nta munaniro.

Umugabo uhagaze yegamiye ku modoka y'umweru, yambaye umupira, ipantaro, agapfukamunwa, ari kureba akitegereza, ni byiza yegamiye imodoka nziza kuko ari iyo agiye kugura.

Imodoka ndende kandi nini zigizwe n'amabara y'umweru imbere handikishije amabara y'ubururu zifite uruhare rwo gutwara abantu bambuka bajya hakurya mu bindi bihugu.

Ahaparitse imodoka nyinshi z'amavatiri, bigaragara ko abantu bamaze gutera imbere. Barakora bamara kwiteza imbere bakagura bakagura imodoka zizabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inyubako nini cyane yeretse kenshi yuzuye, ikorerwamo imirimo itandukanye abantu bakabona akazi ari benshi ntihagire uwicara, imbere hari imodoka nziza cyane meze neza iracyari nshyashya ni byiza.

Abagabo babiri beza bahagaze imbere y'imodoka nini, bafashe icyapa, basa neza, bambaye neza, bareba neza, bafashe impapuro na terefone mu ntoki, bari kureba imbere bari kwifotoza.

Abakozi bari gukorera mu cyumba kimwe bambaye udupfukamunwa baricaye, uhagaze afite ibyishimo birenze iby'abandi, araseka neza ni inzobe ari kureba muri terefone akishima.

Igiceri cya mirongo itanu, cy'amafaranga y'u Rwanda, bakoreshaga kera mu perezida witwaga Habyarimana Yuvenali, ni byo bakoreshaga. Imbere hari hari igiti gishushanyijeho.

Igiceri cy'amafaranga y'u rwanda yakoreshejwe muriro irindwi na karindwi ni umuhondo, ishushanyijeho ikawa itanga uburyohe bukomeye cyane, izana amadovize ifaranga ry'amahanga uwayihinze ntabwo akena.

Aha muri iyi nzu yagenewe kubitsa no kubikuza imbere harimo uwageneye gukora iyo mirimo afite amafaranga mu ntoki ari guhereza umuntu waje kubikuza uri inyuma.

Inote nshyashya y'amafaranga ibihumbi bibiri y'u Rwanda, iriho agaseke, umunara, irasa neza, hariho umubare ibihumbi bibiri, ni nziza, irakeye irakomeye

Inoti y'amafaranga ijana yakoreshwaga ku muyobozi witwaga Habyarimana inyuma hari impongo n'imparage nibyo byari bishushanyijeho, urundi ruhande rwarushanyijeho umugore uhetse umwana yitwaje akabando, kera abantu bahekaga abana ababyeyi bakaberwa bagasa neza, abana bagasusurukirwa.

Inoti ya magana atanu y'amafaranga y'u Rwanda, uruhande rumwe hashushanyijeho ingagi zizana amadovize mu Rwanda, urundi ruhande rushushanyijeho abana bari kwiga, bivuga ngo bari gutyaza ubwenge, ni nziza, ifite amarangi meza, bayikoranye ubuhanga, irasa neza, ibereye u Rwanda.

Inzu nziza ya koperative Kinazi aho ikorera amata meza aryoshye arimo n'ay'abana harimo na za yawurute, amata ni meza atuma abantu bakura neza n'abana mu mirire atuma abantu babaho neza.

Aho bacururiza amata hari ameza ateretseho igikombe cy'amata, umuguzi aje kugura uwo mugore wicaye urambuye akaboko urangije kunywa amata, hirya ye hari isahani iriho capati ibyo ni ibibiribwa biryoha kandi bibereye umubiri.

Bateretse amata mu bujerekani bayacuruza ni meza atuma abana bakura bakagira imibereho myiza, bagakomera bakonka buke buke ariko banywa n'amata ni heza, ameza, intebe nziza harasa neza hari amakaro ashashe hasi.

Umukobwa wicaye yegamiye ku meza ari kureba hirya arasutse, yambaye umupira w'imbeho arasa neza arareba neza abumbye iminwa, ari kumva uri hirya ye icyo amubwira aramwitegereza cyane.

Ikigega cy'inyange giteretsemo amata yo kugurisha, gicometsemo itiyo hariho n'agafunguzo bafunguza bakabikora nka bavoma amazi, iyo umukiriya aje kugura barafungura bagatega ijage bagashyiramo igipimo akeneye.

Ameza ateretseho isahani iteguyeho ibikomoka ku ngano, hariho urupapuro rw'umweru rwo kubifatisha, biraryoha, ni ibyiza, ni ingirakamaro mu mubiri w'abantu babifata.

Akajerekani karimwo amata y'ikivuguto, ni meza agira intungamubiri ku bayanywa avamo byinshi hava amavuta, foromaje. Ibyo byose ni ibiribwa birimo intungamubiri bigirira umuntu umumaro.

Umuntu ufashe isahani iruho umutsima bakoze mu ifu y'ingano a iyo bita amandazi araryoha, arirera abana ni meza, umuntu wese arayakunda.

Ikigega kirimo amata y'inyange harimo ukiyacuruza umukiriya uje kuyagura, indobo bayavomeramo, igikombe bayadahisha amata ni meza agira neza, akuzabana atunga n'abantu bakuru, ni beza cyane harimo intungamubiri abantu bose bakeneye.

Abagabo babiri beza umuzungu n'umwirabura barunamye bafashe ku meza bari kureba ishusho yumuntu bari kwitegereza bari kuganira imbere yabo hari ibitabo iruhande hari igikapu hirya yabo hari terefone ni beza basa neza .

Umukobwa wambaye ishati y'umweru yambaye amataratara, afite umusatsi, umubiri we ni inzobe, afite terefone mu ntoki, ari guseka, ari gukoresha telefone aseka, kuko ari kubonamo ibintu byiza bimushimisha.

Icyapa cyamamaza kiriho ikiganza gifite telefone, ibara ry'umuhondo, amagambo y'ubururu yanditsemo momo, ibara ry'ubururu na telefone bari kwamamaza.

Imashini iteretse ku meza ikoreshwa muri banki babara amafaranga nk'amadolari, ni byiza kuyikoresha kubera yuko bataruha babara cyangwa ngo bibeshye mu mibare bahombe cyangwa batange menshi.

Icyapa kitwereka uko abagurisha amafaranga n'abayagura bayakora, bayagura mu bihugu bitandukanye, uko bikora, bityo uza kuyagurisha cyangwa se uyagura akagenda adafite impungenge y'uko bamuhenze cyangwa se bayamwibye, kubera ko yiboneye ibiciro biba biri ku isoko.

Umuntu uri kubara amashiriningi ari kuyabarisha intoki imbere ye hari umufungo wamadorari y'amanyamerika n'amafaranga ari hejuru afite agaciro kuruta amafaranga y'u Rwanda n'andi y'ibindi bihugu.

Amashiringi ni meza ashushanyijeho umugabo w'urukara mwiza, uteye neza, ureba neza, isa neza, irakeye.

Inote y'igihumbi y'igihugu cya tanzania ishushanyijeho amazu y'amagorofa, i ruhande rumwe, urundi ruhande ishushanyijeho umuntu ni nziza, iteye neza, hariho n'igiti cy'ikawa.

Ibiganza by'umuntu w'umugabo, bifite amadorari ni ay'Abanyamerika, ni meza ari kuyabara ni ay'ingirakamaro, ari hejuru y'amafaranga yose akoreshwa, afite agaciro kari hejuru.

Ameza ariho inote zitandukanye, mashine yo kuzibara, amadorari y'amanyamerika n'ay'amashiringi, ni meza, arasa neza kandi afite agaciro kari hejuru kuruta ayandi.

Ameza ariho inote zitandukanye iz'ibihugu bitandukanye, iyo hari igihugu gifite amafaranga nicyo kigira iterambere rirambye muri byose haba no mu baturage.

Ameza arambitseho amafaranga, amadorari amashiriningi, ibiganza biri kuyabara, arahenze ari hejuru, uyafite ashobora gukemura ibibazo bye byose, kubera yuko aya mafaranga ari ay'ingirakamaro.

Ibiganza bifite inote zitandukanye harimo inote yo mu Rwanda y igihumbi, iya bitanu, idolari rimwe ry'amanyamerika, inote ya magana atanu na mirongo itanu y'amayero, iya magana atanu yo mu gihugu cya Kongo n'iy'atanu y'amagande.

Inote y'igihumbi ikoreshwa mu gihugu cya Tanzaniya, isa neza, ishushanyijeho amazu meza ageretse, hashinzeho amadarapo, ifite imibare y'icyatsi kibisi, ni nziza cyane, isa neza, ndayikunze.

Umugabo wicaye imbere hari ameza ibiganza bye bifatiyeho inote za bitanu, hari agatabo karemeza yuko agomba kubitsa amafaranga yabona uwo atuma, akamwandikira muri ako gatabo akajya kubikuza.

Mu muhanda rwagati mu masaha y'ijoro aha hino kuri iki gice kigendedwaho n'abanyamaguru hari ububiko bwagenewe kubikamo cyangwa kujugunywamo imyanda ikoreshwa n'abakoresha umuhanda harimo ibinyabiziga biri kugendera mu muhanda bibisikana by'umwihariko imodoka inini n'intoya ndetse n'abanyamaguru bari gukoresha umuhanda.

Inyubako nziza kandi ndende iriho ibyapa bitwereka ko ariho bavunjishiriza amafaranga, ufite ayamanyamahanga yerekera ahangaha, ufite amanyarwanda ashaka amafaranga y'amanyamahanga yerekera ahangaha, niho hatwereka ko ariho tugomba kuyakura.

Inzu irakomeye, bayubatse neza, hariho icyapa cy'ubururu n'inyuguti z'umweru zanditseho, iruhande bahashinze ibyuma by'ubururu, imbere hateye igiti, imiryango irakinguye, harasa neza, hariho igisenge kirinda imvura kugwa mu nzu, ni nziza kandi irakomeye.

Kuri iyi nzu baharembishije imitako y'amasaro y'umweru, ay'ubururu, ay'umukara haragaragara harakeye hasa neza harimo ameza ariho inote n'ibiganza bifashe izo note.

Inzu nziza yubatse neza hariho icyapa cyerekana imirimo itandukanye ikorerwamo imbere yaho hari umuhanda uri kugendamo imodoka zitandukanye zijya mu byerekezo bitari bimwe .

Umuhanda uririmomo itwara imizigo i moto hino hari intebe hari ameza ibi n'ibikoresho bikomoka ku biti ni igiti ni cyiza gikora ibintu byiza gikora ibintu byose binyuranye.

Intebe nziza zo gushyira mu cyumba cy'uruganiriro zifite imyenda y'icyatsi kibisi zikagiramo amabara y'umuhondo ku misego bicaraho nizi zifite ameza meza y'uruziga ntizimeze neza uwazicaraho ntabwo yazarwara umugongo.

Inzu nziza ifite imiryango myiza iteye amarangi meza imbere hari amakaro meza intebe, ameza y'uruziga birakeye kandisa bisa neza ntacyatuma umuntu atabigura .

Ibikoresho byavuye mu mbaho bavanye mu biti bisa neza birakomera iyo ubikoresheje munzu nta kibazo bigira ntibitora umugesi bigaragara neza kandi birakomera biraramba igihe cyose umuntu arabikoresha.

Mu bubiko bw'imbaho zituruka ku biti ni nyinshi niheza, zivamo ibikoresho bitandukanye, byiza bikomeye kandi biramba bitapfa gusaza, abanyarwanda bose barabikunda n'umuntu wese ubiguze arabyishimira.

Ububiko bw'imbaho ziva mu biti na zo zivamo ibintu byinshi cyane bikomeye dukenera mubuzima bwa buri munsi, ameza, intebe, kubakisha, gukoramo ibisenge byo gusakariraho amazu, n'ingirakamaro mu buzima bwa buri munsi bw'umuntu.

Inzu ifite umuryango w'ubururu isze irangi ry'muhondo, haruguru yaho hari indi ifunguye umuryango n'idirishya, imbere hari intebe nziza zibereye kuzicaramo ni ubwoko bwiza burashimishije.

Imbere hiyi nzu ni heza, hashashe amakaro hasi, hari ameza yaho barira y'uruziga, intebe nziza zisize verne, ni heza haratunganyije hafite isuku nziza.

Ibikoresho byiza bikomoka ku mbaho zituruka ku biti birakomera, biraramba, ni byiza bifata amazi aho biteye ubutaka ntibugende, bukarinda isuri kuko gukukumba ibigize ibyiza nyaburanga.

Ahantu ho kogera hasa neza, hafite amazi y'ubururu, iruhande barahakoze hari imitaka n'intebe, abavuye mu mazi bicara bakaruhukiramo, ni byo gukora imyitozo yo mu mazi bituma umubiri ugira ingingo nziza.

Aha bogera hari amazi meza hashushanyije neza iruhande hari imitaka bicaramo bari kuruhuka, koga bitera siporo binanura umubiri bituma umubiri umererwa neza ukagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Amazi bogamo bakora mo igororangingo y'umubiri wose, ni meza, asa neza, hakikijwe n'ibyuma byiza hari imitaka baruhukiramo hakurya hari ibiti bimeze neza hagaragara neza n'imikindo kuru ruhande n'ibyuma bihazitiye.

Inzu nziza yubatse kinyamwuga, harimo amatara, hasi ifite ibyumba binini cyane, hejuru igeretse inshuro eshatu, ni nini, ikorerwamo imirimo myinshi itandukanye.

Inzu nziza igeretse, yubatse neza, isize amarangi, hariho ibiti, inyuma hari izindi, hasi hari imbuga nziza, ifite isuku i mpande zose.

Icyumba cyiza cyane barimbishije bakoresheje ibipirizo by'umweru n'ubururu hari ameza meza hari intebe nziza itapi iri hasi harasa neza hararimbishije harimo imitako myiza cyane .

Umugabo w'umuzungu uhagaze, arambaye inkweto z'umukara, ipantaro n'ikote ry'umukara, ishati y'umweru, yambaye impeta, arasa neza, ni muremure, afite umubiri uringaniye, ni mwiza.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe nziza imbere yabo hari ameza, hirya yabo hari andi ariho mashine n'intebe. Bigaragara ko bategereje ubafasha ku bibazo byabazanye, baratuje ni beza bari kuganira, barakeye.

Abakozi bicaye mu cyumba cy'akazi imbere yabo hari mashine bari kwakira abantu babagana bakabakira neza ibyo bavuga bakabyandika muri mashine ibika ibintu neza ntabwo ijya ibita niyo dokima imeze neza ishobora kubika ibintu byose icyarimwe.

Inzu yubatse neza irakomeye ifite ibaraza ritangira imvura kugera munzu, imiryango irakinguye ifite inyuma hanini umugore uri imbere yayo uri kugenda arakomeye ni muremure afite imisatsi

Ifoto yumukobwa mwiza uri guseka, araseka neza afite amenyo meza, afite uruhu rwiza, afite imisatsi myiza ari kwitegereza amafaranga afite mu ntoki agaseka.

Inzu nziza bayubatse neza, irakomeye, igeretse kabiri, ifite amarangi meza y'amoko yose atandukanye, imbere ni heza, imbuga yayo ni nziza, iteye neza, irasa neza, ikorerwamo imirimo itandukanye.

Abagore bari guseka neza, bafite ibisuko byiza, umusatsi, icyapa mu ntoki cyandikishije inyuguti z'umukara, bambaye neza, barishimye, baranezerewe ni beza.

Abagore basa neza, bari guseka neza, ni babiri, basutse neza, bafite amenyo meza, bambaye ibikomo ku maboko, barakeye, ni barebare, biteje imbere.

Umukobwa uri kugaragara aseka, ari kureba neza afite ibifuniko mu ntoki iyo wishimye bigutera kurama bikagutera umutima mwiza ukagira urukundo rwa kimuntu.

Inzu bakorera hamwe imirimo yo kubitsa no kubikuza imbere hari ushinzwe gutanga ayo mafaranga arimo kuyabara, undi nawe we bamuhaye urupapuro rwo gusinya rwemeza yuko amafaranga ajyanye, haba hariho asohotse n'asigaye umugabo ari gusinya bagiye kumuha amafaranga.

Abantu batanu bari mu cyumba kimwe, bane baricaye begereye ameza undi arahagaze, bambaye udupfukamunwa ni twiza, turinda abantu kwandura indwara zandurira mu mwuka. Ni ubwirinzi butagoye kwirinda ni bwiza buri wese agomba kwirinda hakiri kare atari,

Abantu bahagaze, imbere yabo hari abakobwa bambaye imipira y'imweru, beza, barebare, bafite imisatsi, bakeye, bari kumva abantu baje babagana, kugira ngo bashobore kubakemurira ibibazo bari kubabaza.

Isoko bari gucururizamo ibikapu ni byiza, bisa neza, abakiriya bari kuza kubigura, bakabaza nyiri ukubigurisha na we akabasubiza bakumvikana bakagenda banezerewe.

Isoko ryubakiye ririmo ibiribwa bitandukanye bari gucuruza; ibyubaka umubiri, ibirinda indwara, ibitera imbaraga, byose birimo, ni byiza kubirya; harimo intoryi, harimo inyanya n'ibindi nk'ibitoki, n'ibindi birahari

Isoko bari gucuruzamo ibiribwa bitandukanye, imishaba, ibijumba, ibihaza, n'ibindi ni ingenzi ku babirya, harimo n'abantu benshi bari kubicuruza n'ababigura.

Abagabo babiri bose bafite kasike zanditseho sefu moto, aba bagabo bose bambaye amarinete umwe ni umwirabura ariko undi ni umuzungu.

Inzu nini, igeretse inshuro eshatu, yubatswe mu buryo butangaje, ifite imiryango y'icyatsi kibisi, imbere hari abantu benshi bari kurebana, abandi batonze umusitari, ni nziza, ni inyubako ihebuje.

Isoko bita ingoboka higanjemo abagore bari gucuruza inyanya' urusenda' intoryi' ibijumba imyumbati' bambaye bose ibitenge bamwe bateze ibitambaro abandi barasokoje.

Isoko ry'ingoboka hiciyemo abagore bakuze abakiri bato ari gucuruza intoryi ari kubaza umwe uko zigura nawe akamwereka, akamwereka ko akarundo kamwe kagura amafaranga ari kumubwira.

Isoko ry'imbuto, harimo imbuto, inanasi, ibihaza, imishaba ihiye, harimo umugore wicaye yifashe ku munwa nk'urwaye, yifubitse igitenge cy'umuhondo, harimo inyanya, amatunda, amapapayi, imbuto zitandukanye, imbuto nziza ku mubiri w'abantu, zitanga vitamini se ikomeza amenyo n'amagufa n'izindi vitamini zose zitandukanye z'ingirakamaro ku mubiri w'umuntu.

Iri ni isoko ry'icyerekezo harimo ibintu byinshi byiza ahari imyenda harimwo abantu bari kugura abandi bari kugurisha harimo ibyo berekana bari kwereka abakiriya ko bagomba kuza kubigura ko ari byiza ni heza cyane , niheza haratwikiriye harimo ibyumba byinshi byakira abacuruzi n'abagura bose bakakirwa icyarimwe nibyiza niheza .

Isoko bacururizamowo ibintu by'ubugeni n'ubukorikori hari intebe ya kera; inkoni z'abageni ibyibo, ibikapu bidoze mu myenda ikorerwa mu Rwanda niheza bite neza biragaragara.

Isoko ryubakiye harimo imboga zitandukanye z'amoko yose, inyanya, amashu, pavuro n'ibindi byose birimo by'imboga bituma umubiri wacu umera neza ugakomera vitamine zose zikinjira, imyenda iri hirya y'amabara atandukanye, umugore uri gucuruza yimbariye itaburiya y'umuhondo ni byiza cyane biranejeje biryoheye amaso.

Isoko bari gucuruzamo ibintu bitandukanye imyenda y'abana iy'abakuru ibitenge imitako harimo abagore bicaye bari kurebana bambaye imyenda y'ibitenge ni beza baratuje.

Isoko bari gucururizamo ibiribwa bitandukanye ibatera imbaraga, ibirinda indwara, n'ibyubaka umubiri, ibyo byose umubiri wacu urabikeneye kugira ubeho neza kandi ukure neza.

Inzu bari gucururizamo, harimo abagore bambaye iby'ubururu, uhagaze mu muryango, iruhande hari ibyo bari gucuruza, hasi hari sima itukura, ni hanini, ni heza.

Inzu nini cyane kandi igeretse kane imeze neza ikorerwamo imirimo itandukanye ni heza haparitse amamodoka menshi, niyo hari kujya abantu benshi bigaragaza ko hakorerwamo imirimo itandukanye, haba harimo n'akazi gatunga abantu.

Amazu y'ubucuruzi asize irangi ritukura yanditseho inyuguti za eyatel z'umweru imbere yahagaze umuntu uruhande hari akazu k'umuhondo ka mtn hari uwibyapa imbere yahagazemo umukobwa wambaye umupira w'umuhondo no gutanga serivisi za mtn.

Icyapa cya emutiyene cyamamaza hariho umukobwa n'umusore wambaye umupira w'icyatsi kibisi nk'umuhondo arasutse asa neza bari guseka, kwamamaza ni byiza, bgaragaza ibikorwa byawe bakamenya n'aho biherereye.

Inzu batangiramo serivisi ya emutiyeni ikorerwamo imirimo yayo isa neza irangwa n'ibara ry'umuhondo, ibyapa aya madirishya arakinguye imbere yaho hari umukobwa numusore bari guseka, hanyuma inyuma hari kalendale y'umuhondo n'indi itukura ni heza harasa neza harakeye.

Icyumba cy'inzu kigaragara neza kirimo abantu babiri harimo; ibirango bya emutiyene, umukobwa wambaye umupira uriho ikirango cya emutiyene, umugabo muremure w'inzobe wambaye ishati y'maboko maremare, barimo baravugana ni beza barasa neza.

Telefone bari kwamamaza hejuru hari icyapa cya emutiyeni iruhande hari amakesi apakiyemo amacupa, ahantu hari ibintu byiza bitandukanye ni heza haratuje habereye kwamamaza niko hameze.

Akazu ka emutiyeni gasize ibara ry'umuhondo rirakeye ni ryiza hafunguye amadirishya abiri hamwe hahagaze umugabo wambaye umupira utukura, hepfo uhagaze undi bari guhabwa serivisi za emutiyene.

Iyi nzu ni nziza ifite imbere hagaragara amarangi iteye parafo amatara ari kwakamo hateretsemo ameza manini ariho mashine imbere ya mashini hahagaze abantu bambaye imyeru n'inyuma hari abandi bari kubareba.

Inzu ya emutiyeni yubatse neza iriiho amarangi meza hashinze ibirimbisho byiza hari abantu benshi bari gusaba serivisi niheza cyane irakeye irarambye nizi imeze neza kandi hasi hari ibara ry'ubururu n'abantu bahicaye abandi bari hirya bambaye amataburiya ya emutiyeni n'ibyapa bya emutiyeni bihashinze.

Inzu iriho ikirango cya emutiyeni ifite ibara ry'umuhondo hariho icyapa iruhande hari umugabo uri kwitaba telefone.

Ibikapu by'amabara atandukanye, umutuku, umuhondo, ni byiza, birakomeye, birakeye, bisa neza, uwabigura ntiyaba ahombye.

Inzu y'iposita igeretse gatatu hari imodoka nyinshi z'ibara ry'umuhondo, moto nyinshi zitwara ii zitwara ubutumwa bw'abantu bukabageraho vuba cyane.

Umugabo uri ku igare wambaye kasike y'ubwirinzi, ishati y'icyatsi kibisi iriho ibifungo by'umweru, atwara ibiryo abishyira abantu mu ngo, atanga serivisie nziza, ni byiza cyane ukeneye kurya wese abimugezaho kandi akaryoherwa.

Kuri iyi foto iriho ibintu bitatu bitandukanye; hariho gaze moto iteretseho igisanduku bagemuramo ibiryo babishyira abantu mu ngo, amazi ya jibu ni ibintu by'ingenzi bigize mu mubiri w'umuntu.

Umugabo n'umugore bari ku meza. umwe arahagaze, undi aricaye hari imbuto zitandukanye. Amata, marigarine ni byiza kurya imbuto kuko zitera umubiri kwirinda indwara.

Amoko atatu y'imyambaro y'abagore hari ingutiya n'ishati y'umukara, icyatsi kibisi hari ikanzu y'ubururu isa neza, idoze neza isa neza n'indi y'umukara na yo irimo utuba tw'umweru.

Umumotari uri kuri moto, hariho igikarito bafunikishije ishashi y'ibara ry'umuhondo yanditseho vuba yandikishije umweru, harimo ibyoku kurya ajyanira abagenzi bari mu ngo bakoresheje telefoni.

Inzu nziza hasi hayo hashashe amakaro irakoze neza ifite amarangi harimo imitako ibereye amaso ayireba ni nziza cyane irakomeye irarambye irahendutse mu kuyigura uko iteye neza mu bintu byose.

Aha ni mu cyumba cy'uruganiriro mu nzu y'umuntu, harimo intebe nziza, imisego myiza, ziryoheye amaso, uzicayemo ntabwo yarwara umugongo, ahubwo yavamo yawukize ameze neza.

Inzu nziza yubatse neza ifite ibaraza ryiza hari ibiti imbere ku ruhande birahari ibyatsi byiza biteye ku mbuga nini ihari, hameze neza hari amafu umuntu yakwicara ara aruhukira, niheza cyane hameze neza.

Inzu ikoze neza imbere harimo ibikoresho bakoresha akazi gatandukanye, amatara bashyizemo ipafo, amakaro ni heza hasa neza imiryango nayo ni myiza.

Imbere mu gipangu ni heza hari jaride nziza, indabyo ziri mu mavase hateye ibiti. Inzu ifite amarangi meza ikoreye amasuku nibyiza gushyira indabyo zituma abantu bahumeka umwuka mwiza abantu bakeneye.

Inzu nziza cyane iragaragara neza yararangiye, isize amarangi meza, ibirahuri ni byiza, inzugi ni nziza, ibikuta biyikikije ni byiza biteye amarangi y'umuhondo n'ubururu, ibiti biteye amabuye arimbishije agaragaza ubwiza bw'iyo nzu, imbere hari amapave ateye neza imeze.

Inzu nziza yuzuye, igaragara igice cyuma, hakurya y'umuhanda, ifite amarangi meza, iteretse neza, igisenge cyiza, yo guturamo, hari ibiti byiza, ni heza, haraterebekereye, harasa neza.

Inzu ipimye neza, yubatse neza, ifite imiryango myiza, amadirishya meza, imbere ni heza, hari amapave y'amakaro, imiryango imeze neza irakinze, iyo nzu bayikoreye amasuku neza irakeye.

Mazu meza cyane arubatse ararangiye, afite igisenge bayateye amarangi bayakorera amasuku anameze neza, imbere yaho hari imbuga, bashyizemo amakaro atandukanye y'amabara meza, ni meza cyane.

Inzu nziza ikomeye ifite ibaraza rikomeye, imbere hateye indabyo ma vaze inzugi zirakinguye, ni heza, hurubakitse hapimye neza, amarangi meza ni heza.

Inzu nini yubatswe n'ibintu byiza cyane amapave, imiryango, ibirahure, igikari, irakomeye iraramba irakeye.

Inzu nziza yubatse neza, iteretse neza iri ahantu heza, amarangi meza amasuku harakeye umusore uhagaze imbere yambaye neza ni muremure arakeyeye.

Inzu nziza barangije kubaka yaruzuye bayisize amarangi bakora amasuku bayitereka neza imbere yayo hari indabyo bateye imbuga yayo ni nziza iriho amatafari bita ama pave y'amoko yose hari umuhondo hari ikigina hari n'umutuku ni heza harakeye.

Inzu yubatse Kigali Kimironko, yubatse neza, ipimye neza, ikoze neza, amarange meza, igisenge cyiza, iteretse neza, iri ahantu heza, isa neza cyane, ifite ubwiza burenze buhebuje.

Gacuriro hari amazu meza cyane afite ibisenge bikomeye hari amarangi meza, hari amakaro, hari amazu akomeye cyane agaragara neza kubantu bose bayareba.

Inzu yubatse igitwe kimwe ifite imiryango ifunze amadirishya arafunguye, ni ndende ni ngari irafunze hose, iriho amarangi y'ubururu n'umuhondo kumiryango n'amadirishya.

kagarama Kicukiro ni ahantu hubatse neza, hari amazu afite ibisenge by'umutuku, inyuma ni heza, n'inzira zaho ziyajyamo nazo ni nziza, barazirimbishije, bapanzemo amabuye, kugira ngo birinde ubunyereri.

Inyubako ni nziza cyane ni iyagahebuzo yubatse ku buryo bw'ikirenga irimo amarangi atandukanye meza y'amoko yose hari gusohokamo umugabo wambaye neza ari kugenda ameze neza ni muremure arakeye.

Inzu nziza y'ubucuruzi butandukanye bifunze mu bikarito biri mu majerekani ibinyobwa bitandukanye byamabara atandukanye birasa neza cyane. Kuberako bitandukanye iri kwakamwe amatara, ahagaze umugabo wambaye byuumukara nibyiza cyane.

Isoko rinini rigeretse kane hanze hari imyenda y'amabara atandukanye bagira ngo buri wese acagure ibara ashaka. Ni byiza kuko hari ibyapa byerekene aho umuntu agomba kugere atayobye

Isoko ririmo abantu batandukanye bari gucuruza ibitandukanye kugira ngo biteze imbere bazamure ubukungu bw'aho batuye nubw'igihugu ,iterambere ry'imiryango naryo rizamuke batange imisoro igihugu cyacu gitere imbere .

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye harimo abantu benshi bari kureba. Abagurisha ,abagura, abatembera bari kugenda bitegereza bareba ibyabo babaza ibiciro bagakuramo ibyi ngenzi bashaka.

Uyu mugabo ari gusobanura ubwiza bwo kugura ubwisungane mu kwivuza ibyiza n'umumaro nuko umuntu yabikora ko ari ingirakamaro ko atagomba kurembera mu rugo iyo yatanze ubwisungane agomba kurwara akajya kwivuza .

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bari bari kubafata ifoto bazamuye ubwisungane mu kwivuza, babafashije kububona kuko nta bushobozi bari bafite bari bazizamuye bari gushima ko babafashije mu kwivuza.

Abaturage bicaye imbere y'inzu nini uwahagaze imbere arabayoboye ari kubahereza impapuro, buri wese ari kumuhereza yakira n'amaboko yombi basa neza bateze ibitambaro baraberewe, n'abagabo barimo baricaye baratuje bategereje kureba icyo babakorera n'icyahabazanye kugira ngo barangize umurimo wabo.

Uyu mukecuru n'umusaza ni beza cyane bari guseka bafite umusatsi wumweru umugore yambaye amaherena nikanzu yubururu baranejeje barashimishije ni beza .

Ubwisungane mu kwivuza ni bwiza cyane, uwarwaye ntarembera mu rugo, abona imiti ihendutse, ntabwo aremba, bumeze neza, bufasha abantu bose, ingeri zose, n'abakoze impanuka, ntabwo batinda kubitaho.

Abantu benshi cyane beza bishimye bari kumva amabwiriza n'amahame yo kwizigamira ejo heza n'umumaro wabyo ko nibabikora neza bizabagirira umumaro.

Abagore bane bicaye umwe akikiye umwana, barasa neza, barakeyeye, bafite isuku, barishimye, baratuje, ni beza, nta makimbirane bafite biragaragara.

Muri iyi nzu ni heza hateye neza ibirimo ni byiza, amatara arikwaka hacururizwamo ibikomoka ku ifarini, harimo umusore uri kureba ibyo agura.

Umukobwa mwiza munini arasutse, yambaye ibyiza, ahagaze aho ari kugurira ibyo yirimbisha, imitako ibyo basiga ku munwa bya basiga ku nzara ni byiza.

Aho bari gucururiza indyoshya ndyo zifunze mu ducupa, mu mashashi, babipanze neza bigaragara neza. Ni ahantu haryoheye amaso kuhareba, birasa n'ibipanze mu dutanda twiza ni byiza.

Isoko rinini, ryiza, ricuruzamo ibyiza by'amabara atandukanye, umugabo uje guhaha ni munini, muremure, yambaye iby'ubururu, afite icupa mu ntoki, uri kubimuha yambaye umupira utukura, arunamye.

Isoko rinini bahahiramo ibiribwa bitandukanye n'ibikoresho ripanze neza n'amabara atandukanye harakeye hasa neza abakira abakiriya neza biragaragara neza harimo umugabo wambaye umupira w'ubururu n'uwugurisha muri iri soko.

Iyi nzu yo muri simba bacururizamo ni nziza irimo ibicuruzwa bitandukanye hasi niheza hari amakaro ,abantu batandukanye bari kujya guhaha habamo ibintu byose wifuza ku giciro giciriritse abakire n'abakene bose bahahiramo bakanyurwa .